Imodoka eshanu ziri kugenda mu muhanda. Ebyiri z'umweru n'indi imwe y'umukara. Ku ruhande hari amatara yo mu muhanda, hari ibiti, hari ibyatsi bya pasiparume, ku ruhande hari n'ayandi mazu ageretse.

Icyapa kinini cyanditseho umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi n'umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi cyanditseho ngo mutuze heza uharinde neza, purayimu insuwarensi.

Umugore n'umugabo bari mu modoka bari kugenda mu muhanda, hari icyapa cyanditseho, "turi kumwe, icyerekezo cy'inzozi zawe, ibyishimo by'ubuzima bwawe n'umuryango wawe, kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe." Hari akaziga kanditseho,"radianti yacu."

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ijiri y'umukara yisize ibiganza ku matama , ku ruhande hari agataburo kariho mirongo ine, mirongo irindwi, ijana, ijana na mirongo itatu, ijana na mirongoitandatu. Handitse ngo ufite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwawe.

Icyapa kiri mu ruziga cyanditseho radiyanti hari umuceri uhinzwe ubwishingizi bw'ibihingwa, ubwishingizi bufashwa mu ishoramari ritekanye, abishingizi bakabona umusaruro ushimishije.

Urupapuro ruba ku mahoteri n'amaresitora aho abantu barebaho ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibiciro byabyo kugira ngo babashe gutumiza ibyo kurya babirye cyangwa ibyo kunywa babinywe.

Urupapuro rwifashishwa mu mahoteli n'amaresitora, abakiriya barebaho ibyo kurya n'ibyokunywa n'ibiciro byabyo, kugira ngo barebe ibyo batumiza babirye cyangwa babinywe.

umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite telephone mu ntoki yambaye ingofero y'umweru mu mutwe, ku meza hari ikayi n'intebe. Hari amayoga agiye atandukanye muri kontwari hariho n'udutambaro bisa nkaho ari mu kabari.

Akamashini kifashishwa bagiye gutanga fagitire yo hari icyo umaze kugura cyangwa se ugiye kubitsa no kubikuza kuri banke hari umugore ugafite mu ntoki, hari umugabo ufite ikarita mu ntoki bisa nkaho agiye kubitsa cyangwa kubikuza.

Urupapuro rwifashishwa mu mahoteri n' amaresitora abakiriya barebaho ibyo kurya n'ibiciro byabyo n'byo kunywa kugira ngo babitumize babirye cyangwa babinywe.

Umugabo wambaye umupira w'umukara urimo imbere muri kontwari iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantalo y'umukara, n'ingofero y'umukara mu mutwe bisa nkaho hari icyo amubaza ngo amuhereze, biragara nkaho ari mu kabari.

Urupapuro rwifashishwa mu maresitora no mu mahoteli, abantu bareba ibyo bagiye gutumiza byo kunywa cyangwa se byo kurya, kugira ngo babinywe cyangwa babirye.

Amacupa atatu ateretse ku meza, amusiteri, sikoro na mitsingi. Umugabo wambaye umupira w'umutuku usa naho ari gusavinga uwicaye ku ntebe wambaye ikote ry'umukara.

Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara wambaye agapira karimo umweru n'umutuku yambaye ipantaro y'ikoboyi afite bibiriya mu ntoki bisa nkaho ashaka aho asoma.

Akabari karimo inzoga z'ubwoko bwose kuri etajeri hatertse akavase karimo ururabo rw'umweru muri firigo harimo inzoga z'ubwoko bwose no muri etajeri hari igishushanyo cy'umusambi.

Aho bacuruza ibyo kunywa nk'inzoga n'ibindi, umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku, iruhande rwe hateretse ikesi y'umukara, imbere muri kotwari hari abakobwa bambaye imipira y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ifite icyapa cya amusiteli, umugabo uhagaze ku muryango, igare, umumotari uhetse umuntu, umugabo uri gutambuka, imodoka y'umukara.

Urupapuro rwifashishwa mu mahoteli n'amaresitora, abakiriya barebaho ibyo kurya n'ibiciro byabyo n'ibyo kunywa kugira ngo babone ibyo batumiza barya cyangwa banywa.

Abagabo babiri bari muri resitora n'umugore umwe abagabo bafite ibyo kurya umugore nawe bamuzaniye icyo arya ku meza hateretse icupa ry'anazi n'icupa ry'inzoga.

Ikirahure giteretse ku meza gisutsemo inzoga, i ruhande rwaho hari icyapa cya musiteri. Hari umugabo wambaye ishati y'ubururu wicaye, hari n'undi mugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi. Bisa nk'aho hari icyo amuhereza.

Icyapa kinini cy'Amstel, ku ruhande haparitse igare, hari umugabo wambaye ishati ya karokaro uhetse igikapu mu mugongo, bisa nk'aho ari gutambuka.

Umugabo wambaye umupira w'umweru uri kwambuka umuhanda, iruhande rwe hari icyapa cya Mützig, umutaka wa MTN, intebe y'umutuku, imodoka enye n'amazu y'ubucuruzi.

Icyapa kiriho inzoga ya mitsingi, imodoka eshatu, ebyiri z'umukara n'indi y'umweru, umukobwa wambaye umupira w'umweru, umutaka wa emutiyene n'amazu y'ubucuruzi.

Urupapuro rw'urutonde rwibyo kurya bikoresha ahantu mu mabare n'amaresitora aho barwifashisha bareba ibiciro bw'ibyo bashaka gutumiza kugira ngo babirye cyangwa babinywe. Uru rupapuro ruba ahantu hose kuko rrufasha abantu kumenya ibiciro.

urupapuro rwifashishwa mu mahoteli n' amaresitora, abakiriya bareba aho ibyo kurya n'byo kunywa n' ibiciro byabyo kugira ngo batumize ibyo barya nibyo banywa...

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara, afite icupa rya amusiteri mu ntoki. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'akajire k'umukara. Bigaragara nk'aho ari mu kabari.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara afite icupa ry'amusiteri mu ntoki, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru arenzaho akajiri k'umukara ari imbere muri kontwari.

Umugore uri muri kontwari wambaye umupira w'umweru, iruhande rwe hari icyapa cya emutiyene cyanditseho kode, hamwe n'icya eyateri hari amacupa abiri ya pirimusi n'abantu babiri basa n'aho bari kuyanywa. Hari n'ikirahure gisutsemo iinzoga.

Icupa ririmo inzoga riteretse ku meza. Hari ibirahure bibiri biteretse ku meza. Hari icupa ry'icyatsi riteretse ku meza, hari akaboko k'umuntu gafite terefoni mu ntoki.

Icupa rya Mosteri riteretse ku meza, iruhande rwaho hari ikirahuri gisutsemo inzoga, imbere yaho hari isakoshi itetse ku meza, hari amateleviziyo abiri n'umugabo wambaye umupira w'umutuku uri hirya y'ameza.

Biragaragara nko mukabari abagore babiri bambaye hejuru imyenda isa, umugabo ubari hagati yambaye ishati y'umweru inyuma yabo hari kontwari irimo ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro itukura afite ishati iri kuri porotomanto. Ku ruhande hari indi myenda imanitse n'ingofero hari n'urundi rurabo ruteretse ku meza.

Aho bacururiza imyenda itandukanye, umukobwa wambaye agasengeri k'umukara n'ijipo y'umweru, afite amvelope mu ntoki hari undi umuhagaze iruhande wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, bisa naho haricyo bari kuganira ku ruhande hari imyenda itandukanye.

Ahacururizwa imyenda itandukanye hari ibipupe byambaye imyenda, amakanzu, imipira, hari utubati turimo imyenda itandukanye, hari n'amasakoshi, hari n'umuntu wicaye inyuma kuri kontwari.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro asuhuje umukobwa wambaye agakanzu ka karokaro. Afite isakoshi ku kaboko, ahagaze ku iduka ricuruza ibintu bitandukanye: amasabune, bureba, ibirungo byo guteka n'ibindi byinshi.

Ahacuruzwa imyambaro itandukanye, hari amashati, hari umugore wambaye ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara, hari n'undi mugore ufite imisatsi miremire, hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku afite amafaranga mu ntoki, ahagaze mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye ibirungo byo guteka, amandazi amabiswi, amakaroni n'ibindi bitandukanye.

Ahacururizwa imyenda igiye itandukanye. Imyenda y'abana n'udukanzu, amasengeri y'abantu bakuru, amakanzu y'abantu bakuru, imipira, ku ruhande hari etajeri, irimo imyenda myinshi izinze.

Ahacururizwa imyambaro itandukanye, umugabo wambaye agapira k'umweru n nipantaro y'umukara hari umugore wambaye ikanzu y'icyatsi kumeza hateretse imashini inyuma yabo hari imyenda amakanzu n'ibindi bitandukanye.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru iparitse ku ruhande hari umugabo ubari imbere yambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara, afite icyapa cy'umweru mu ntoki. Kuru ruhande hari amazu bisa naho ari ay'ubucuruzi.

Ibikamyo bibiri binini kimwe kiri mu ibara ry'icyatsi ikindi kiri mu ibara ry'umuhondo, hari abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umukara, n'undi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, bafite icyapa cy'umweru mu ntoki.

Umugabo wicaye, wambaye umupira utukura hari undi mugabo wambaye umupira w'umukara yashyize akaboko ku meza, umugore wicaye afite ikaye n'ikaramu mu ntoki, hari umugabo ufite igitabo cy'umukara mu ntoki n'umugabo ufite urupapuro, inyuma yaho hari imodoka.

Inzu igeretse ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, hanze hari imodoka iri kugenda y'umukara icanye n'ibinyoteri by'inyuma, ku ruhande hari amatara yo mu muhanda hateye igiti, hari n'andi mazu ahubatse.

Abagabo babiri bahagaze umwe afite akanvelope gatukura mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka y'umweru, hari n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Imodoka irimo ibara ry'umweru iparitse, ku ruhande hari izindi modoka eshatu z'umukara ziparitse, hateye ibiti, hari amazu ku ruhande hakurya, hari n'izindi modoka nyinshi ziparitse ku ruhande.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru, imbere hateye indabo, hari abagabo babiri bambaye imipira y'umweru. Bafite udukapu mu ntoki dutukura, hari n'undi mugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, bafite icyapa cy'umweru mu ntoki.

Imodoka eshatu ziparitse z'umukara hari n'ikindi gikamyo giparitse ku ruhande inyuma hari igikuta cya buroke sima hateye ibiti bitandukanye, harimo ikindi gikontineri inyuma y'igikuta.

Abagabo babiri bahagaze umwe afite icyapa cyanditseho Akagera motozi undi afite akamvirope gatukura mu ntoki inyuma yabo hari igikamyo cy'umweru.

Akamashini kabara amafaranga. Hari mugabo wambaye ishati y'umweru, ufite amafaranga mu ntoki uri kuyashyiramo. Kuruhande hateretse ayandi mafaranga meshi, hateretse n' imashini isanzwe.

Ahatangirwa serivisi zo kubitsa no kubikuza. Umugabo wambaye ingofero mu mutwe ahetse igikapu mu mugongo, imbere hari umugore ufite imisatsi miremire yambaye agapira k'umukara, asa nk'aho amuha serivisi. Ku ruhande hari undi mugore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro itukura.

Imashini ibara amafaranga, hari umuntu ufite amafaranga mu ntoki, hari ibipapuro bibiri ku meza, hari kibodi ya mashini, hari utuntu tw'udukombe dutatu turimo ibiceri, hari amafaranga ateretse ku meza, hari n'akamashini gatanga fagitire.

Aho babitsa banabikuza kumabanki hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi cyanditseho kashi. Hari umugabo wambaye ishati ya karokaro urimo imbere hari n'abandi bantu batatu bahagaze hanze.

Abantu batandatu buri umwe afite ikirahure kirimo amata, begeranyije ibirahure bahana ciyasi, ku meza hariho amasahani ariho keke inyuma yabo hari etajeri iriho igitambario cy'ubururu.

Aho bacururiza amata hari abasore babiri bafite ikirahure kirimo amata, hari umugabo nawe uri kunywa amata, ku ruhande hari n'undi mugore, hari umugore urimo imbere muri kotwari, hari n'undi mugabo uhagaze hirya ku ruhande.

Aho bacururiza amata umukobwa wambaye ingofero y'umweru afite ijage y'icyatsi mu ntoki afite umubirikira ari gusuka amata mu kajerekani k'umweru, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati ya karokaro.

Ameza ateretseho igikombe cy'umweru, hari umugore wambaye imyenda y'ibitenge afite telefoni mu ntoki, arambitse akaboko ku meza, iruhande rwe hari firigo irimo ibyo kunywa, harimo na koka, firigo na yo ifite icyapa cya koka.

Kontwari nini cyane, yanditseho Mukamira, i ruhande rwayo hari abagore bambaye imipira y'ubururu, hari n'amata ateretse hejuru.

Aho bacururiza amata hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu ateruye igicuba kirimo amata, ari gusuka mu cyuma kibikwamo amata.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge afite telefoni mu ntoki, ku meza hateretse itasi irimo amata, hari firigo, hari icyuma kibikwamo amata, hari na etajeri irimo uducupa tw'amazi.

Mu muhanda hagati muri kaburimbo iri gucamo imodoka; handitsemo ahedi bivuga komeza.

Aho bacurururiza amata akaetajeri gateretsemo akabogisi karimo amandazi akabogisi karimo capati, telemuzi ebyiri ziteretse hejuru, hasi hateretsemo amasahani, hari firigo hari n'akantu batamo imyanda.

Imodoka ebyiri ziparitse ziri mu ibara ry'umweru hari n'indi modoka y'umukara iparitse ku ruhande hari umugore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi uri gutambuka hakurya hari amazu y'ubucuruzi hariho ibyapa bitandukanye.

Aho bacuruza amata icyuma kibikwamo amata hari umugabo wambaye ijiri y'ubururu afite ikirahuri mu ntoki ari kuvomeramo amata, hasi hateretse indobo hari n'umugabo umuhagaze iruhande wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, umusore wambaye isengeri y'umweru, aramuhereza ikirahure kirimo amata. Iruhande rwe hicaye umugabo wambaye ikote ry'umukara, n'ingofero y'ubururu.

Aho bacururiza amata hari icyuma kibikwamo amata kiri mu ry'ubururu, iruhande rwacyo hari firigo irimo ibinyobwa bitandukanye, ku ruhande hari kontwari itetsemo amacupa y'amazi.

Ameza ateretseho ikirahure cy'amata, hari umugore wicaye ufite amafaranga muntoki n'isakoshi, iruhande rwe hari telefone iteretse kumeza, hari na firigo.

Ameza ateretseho agakarito k'umuhondo, hejuru hateretseho agakarito k'ikawa. Inyuma muri etajeri harimo enaji hamwe na twisiti, kuruhande hateretse firigo.

Aho bacuruza amata hari umugore wambaye ibitenge ufite terefoni mu ntoki. Ku ruhande rwe hari icyapa cy'umutuku cyanditseho kokakora, ku rundi ruhande hariho intebe y'ubururu hamwe n'icyuma babikamo amata.

Aho bacururiza amata hari umugore igitambaro mu mutwe ufite ijagi y'amata mu ntoki, ku meza hari umufuniko, ijage n'akabirikira. Ku ruhande hari icyuma babikamo amata, i ruhande rwe hari n'ikidomoro k'icyatsi.

Umukobwa wambaye agashati k'ikoboyi n'ikanzu y'icyatsi, inyuma ye hari etajeri irimo amaji atandukanye, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ku ruhande rwabo hari firigo.

Aho bacururiza amata, umugore wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro iri mu ibara ry'umweru, ahagaze iruhande rw'icyuma kibikwamo amata. Umugabo wicaye ku ruhande yambaye umupira w'ubururu afite telefone mu ntoki.

Ameza ateretseho akajerekani k'umweru, ku ruhande rwayo hari intebe, hari n'ikaye iteretse ku meza, hari umugore ufite igikapu cy'umukara mu ntoki.

Aho bacururiza amata ibyuma bibiri bibikwamo amata ku ruhande hari ikindi cyuma nacyo kibikwamo amata, hari ameza y'umweru n'indobe iteretse hasi.

Aho bacururiza amata hari abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru, iruhande rwabo hari ameza ateretseho ijage irimo amata, buri umwe afiteho igikombe cy'amata.

Aho bacururiza amata, icyapa cyanditseho mukamira miliki zone kiri mu ibara ry'ubururu, umugore wicaye ku muryango, icyuma babikamo amata, n'imodoka iparitse hafi aho.

Etajeri iri mu ibara ry'ubururu, amata y'Inyange, ji ya apo n'amazi ya Nile, amazi y'Inyange na fanta, indobo ebyiri na seliviyete.

Aho bacuruza amata, icyuma babikamo amata cyanditseho miriki zone Inyange, umugore wambaye umupira w'umweru ufite agakombe mu ntoki uri kuvomeramo amata, undi mugore yambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara ku ruhande hari etajeri ziteretsemo ibindi bintu.

Bacururiza amata hari icyuma babikamo amata umukobwa wambaye agakote k'ikoboyi n'ikanzu y'icyatsi umugabo wambaye umupira w'umukara amazi ya Nili na ji.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu yiteze agatambaro k'umweru m'umutwe yambaye isakoshi kubitugu ameze nkaho ahagaze kuri kontwari muri arimantasiyo nkaho hari icyo ari kwaka.

Aho bacururiza amata, icyuma babikamo amata cyanditseho inyange miriki zone, umugore wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe n'akabido bari gushyiramo amata.

Aho bacururiza amata hari icyuma babikamo amata, amagi abiri ateretse ku meza igikarito cy'amazi ya nili giteretse kuri kontwari mo imbere muri etajeri harimo amajerekani atatu y'umweru.

Aho bacururiza amata hari umugore wambaye umupira w'ubururu uri gusuka amata, mu kabido akoresheje umurikira, iruhande rwe hari icyuma babikamo amata.

Aho bacururiza amata indobo irimo keke hejuru hariho umufuniko ku ruhande hateretse agatelefone gato, amverope, ikayi n'ikaramu hirya hari icyuma babikamo amata cyanditsemo Inyange.

Aho bacururiza amata hari icyuma babikamo amata ku ruhande hari aka etajeri kariho amacupa ya jibu.

Aho bacururiza amata hari icyuma babikamo amata kiri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwacyo hari intebe y'umweru n'ameza y'umweru, hasi hari ijerekani y'umweru irimo akabirikira bisa nkaho bari kuvomeramo amata.

Aho bacururiza amata hari ibara ry'ubururu, hari udukarito tw'inyange twa ji udukarito tw'inyange tw'amata hari akabokisi karimo amakeke indobo y'amandazi amandazi afunze mu mapaki n'amaji ateretse muri kontwari.

Umukobwa uri muri kontwari ufite telefone mu ntoki hateretse akajerekani karimo amata, hari abantu batatu basa nkaho bashaka serivise, amacupa y'amazi ya jibu n'icyuma babikamo amata.

Aho bacururiza amata hari umugore wambaye ibitenge ufite telephone mu ntoki, hari umukobwa wambaye ikoti ry'ikoboyi hari akatajeri karimo ibinyobwa hari firigo, hari na teremusi Ebyiri.

Ameza ateretseho ikirahure cy'amata ikaramu ku meza ufite keke mu ntoki ari kuryaho n'indobo irimo keke.

Aho bacururiza amata umugore wambaye ishati ya karokaro ufite ijage mu ntoki ubona ko ari kudaha mu ndobo. Kuruhande hari ijage iteretse ku meza, icupa ry'amazi, ikayi n'ikaramu, hepfo hari firigo iruhande rwe hari icyuma babikamo amata.

Aho bacuruza amata intebe yu ubururu n intebe yu mweru umugabo wambaye ishati ya karokaro nipanaro y'umukara aketajeri karimo ibikoresho firigo.

Ameza y'umweru ateretseho indobo y'amandazi, indobo irimo ifu akabogisi karimo amagi, imineke, n'intebe y'umweru. Hari umugabo wambaye umupira w'ubururu, hasi hari akantu bashyiramo imyanda.

Aho bacururiza amata ameza y'umweru ateretseho ijage, ku ruhande hari etajeri irimo amandazi ari ku ipurato hari umugabo wambaye umupira utukura, ikarito y'amazi y'Inyange na ji n'icyuma babikamo amata.

Ameza y'umweru ateretseho utujerekani tubiri tw'umweru n'igicuba kuri ayo ameza hari abana babiri buri umwe afite igikombe cy'amata na keke mu ntoki, hari umugabo ubahagaze iruhande wambaye umupira w'umweru n'ipantalo y'ikoboyi.

Aho bacururiza amata hari umugore wambaye itaburiya y'umweru, afite ijagi irimo amata ari gusuka mu yindi jagi, i ruhande rwe hari icupa rya fanta, ku rundi ruhande hari ijerekani y'umuhondo, hari ikayi irambitse hasi n'ikaramu.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu, afashe akajerekani n'ibiganza byombi. Ku ruhande hateretse teremunsi enye, bisa nk'aho acuruza icyayi. Mu nzu arimo harimo ibara ry'umuhondo.

Aho bacururiza amata hari ameza, hateretseho akabogisi karimo capati, teremusi ebyiri, hari na giriyaje zisize irangi ry'ubururu n'umweru.

Aho bacuruza amata hari abagabo babiri bateruye ibicuba bari gusuka mu icyuma kibikwamo amata, hari umugore wambaye imyenda y'ibitenge, hari umusore ufite amverope mu intoki.

Aho bacuruza amata umugore wambaye agashati ka karokaro n'ikanzu y'umweru ufite indobo mu ntoki uri gusuka amata mu ijagi, iruhande rwe hahagaze akana kambaye ikanzu y'umweru gafite akajerekani mu ntoki, hahagaze n'akandi kana kambaye agapira k'umukara n'ikabutura y'ikoboyi bisa nk'aho bakeneye amata.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi. Imodoka ebyiri ziparitse ku ruhande, amazu y'ubucuruzi. Farumasi, imyenda, aho bacuruza amata n'inyama.

Umukobwa wambaye agakote k'ikoboyi yicaye imbere muri kontwari inyuma ye hari itajeri irimo amaji atandukanye, imbere ye hari umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara bisa nkaho afite agakarito k'ikawa.

Aho bacururiza ibijyanye n'amata. Kontwari irimo udukarito tw'amata atandukanye, etajeri irimo ibikarito by'amata.

Aho bacururiza amata hari mu ibara ry'ubururu, abagore babiri bambaye imipira y'imyeru na baje z'ubururu mu ijosi ku ruhande hari umugore wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara bisa nkaho bamuha serivise.

Umuryango uri mu ibara ry'ubururu hari icyapa cy'Inyange cya milki zone, hari firigo irimo amata, amazi na ji, hari n'akayetajeri gateretsemo utujerekani.

Agapaniye gateretse ku meza, harimo sereviyete bapfunduye.

Icyapa cyanditseho Nyanza milike dirinki, iruhande rwaho haparitse moto, hanze hari kandagira ukarabe, ku ruhande hari umutaka wa emutiyene, hari n'inzu y'ubucuruzi.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umweru ufite akajerekani k'umweru mu ntoki, ari kuvomera amata mu ijage ayakura mu cyuma babikamo amata.

Aho bacuruza amata, hari icyapa cyanditseho INYANGE MILK ZONE, intebe ebyiri z'ubururu n'ameza y'umweru, umuryango uri mu ibara ry'ubururu na kandagira ukarabe ku muryango.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge ufite terefone mu ntoki ku ruhande hateretse itasi y'umweru, ku rundi ruhande hari firigo ifiteho icyapa cya Coka Cola.

Umugore wambaye agakote k'umukara uhagaze kuri kontwari, kuri kontwari hateretse indobo y'amandazi n'indobo y'amakeke, inyuma muri etajeri harimo utujerekani keke imbere hari intebe n'ameza.

Aho bacururiza amata harimo ibara ry'ubururu kandagira ukarabe y'indobo y'icyatsi ku mutyango, intebe y'umweru n'ameza y'ubururu, etajeri iri mu ibara ry'ubururu n'umweru hari na firigo.

Amakaro y'umweru yamenetseho amazi, ku ruhande haparitse akagare ka siporo, hanze haparitse moto, ruguru gato hateretse igicuba kizirikiyeho akajerekani, hari n'umugabo ufite igare mu ntoki wambaye ishati y'umweru.

Aho bacururiza amata, hari icyapa kinini cyanditseho Mukamira, hari abagore babiri bambaye imipira y'ubururu. Umwe wambaye isaha ku kuboko hari n'amata ari mu dukarito.

Aho bacururiza amata, iparato iriho amagi, hejur kuri kontwari hateretseho indobo. Hari icyuma babikamo amata, inyuma muri etajeri hari amata y'inyange amazi ya Nili, n'amazi y'inyange na ji.

Umusore wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'ikoboyi, ahagaze muri alimantasiyo, umugabo wambaye umupira w'umweru, afite amverope mu ntoki n'akajerekani k'umweru mu ntoki, hari amaji menshi n'amasambusa mu ka bogisi.

Icyapa kinini cya eyateli erizoni tu imajini. Kuhande hari igiterefone kinini hari umusore, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi afite telefone mu ntoki.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ikanzu y'ubururu afashe kuri mashini, n'umugabo wambaye umupira urimo uturongo washyize akaboko ku meza hari umugore we wambaye umupira w'umweru, afite urupapuro mu ntoki imbere ye ku meza hari mashini hari n'undi wambaye jire cy'icyatsi

Umugabo wambaye umupira w' umuhondo wa MTN afite terefone ya tablet mu ntoki, afite n' indi terefone, hari umugore bahagararanye wambaye ikote ry' umukara ufite terefone ateruye n' igikarito.

Inzu igeretse y'ubucuruzi irimo ibyapa bigiye bitandukanye. Hari icyapa cy'amusiteri cy'inzoga, hari aho bacuruza imyambaro, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Akazu kari mu ibara ry'ubururu kariho ibyapa bigoye bitandukanye. Hakurya Yako hari icyapa cy'umweru, hari ibyatsi hasi Aho gateretse, hateye n'ibiti bigiye bitandukanye

Umugabo wambaye ikoti rya kositimu ry'umukara, n'ipantaro y'umukara. Hagati hahagaze akana kambaye ikabutura y'ubururu, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Afite icyapa cy'umweru mu ntoki, hari umugore wambaye ikanzu y'ububuru.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kariho ibyapa byinshi. Ibyapa bya ekwiti banke, banke y'ubuucuruzi, eyateli mani, rege ekobanke, n'ibindi bitandukanye.

Inzu iriho icyapa cyanditseho Musanze banki, iri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwaho hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ingofero y'ubururu.

Inzu zigeretse z'ubucuruzi ziriho ibyapa bitandukanye, sorasi ejenti noteri wikorera n'ibindi bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zigeretse, hari aho bacururiza amata aharimo farumasi ahari icyapa cya radiyati hamwe na butike.

Inzu iri mu ibara ry'ubururu itangirwamo serivise zitandukanye, harimo irembo, harimo ekwiti, harimo bake yacu, hari amategeko y'umuhanda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu igeretse bigaragara nkaho ari iy'ubucuruzi hari ibyapa bigiye bitandukanye hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi uhahagaze, ku ruhande hari akandi kapa kahateretse.

Ameza ariho igitambaro cy'umuhondo hari umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara, hari umumama wambaye itaburiya y'umweru, hari umugore wambaye imyenda y'ibitenge n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu hasa nkaho bari kubaha serivise.

Imodoka eshatu ziparitse, hari abamotari batatu bari kuri moto, iruhande hari umutaka wa emutiyene, hirya hari indi modoka y'umweru, hari urujya n'uruza rw'abantu hari n'inzu nini cyane igeretse.

Umugore wambaye ishati y'umweru iruhande rwe hari mashini, bisa naho hari icyo ari kurebamo, ku ruhande rwabo hari umusore uhicaye uri guseka inyuma yabo harimo kontwari y'ibintu hari n'ururabo rw'igiti.

Imodoka y'umukara iri kugenda mumuhanda ku ruhande hari umumotari ha rujya n'uruza rw'abantu hari amarembo manini hejuru hari icyapa cya eyateri, handitseho ikindi cyapa cyanditseho nyabugogo modeni maketi, ku ruhande hari isoko.

Isoko ry'ibiribwa harimo inyanya, intoryi, ibishyimbo, imboga n'ibindi byinshi.

Isoko ry'ibiribwa: karoti, ibijumba, imyumbati n'ibindi byinshi.

Isoko ry'imyambaro. Harimo inkweto, imyenda, ibikapu byo guheka mu mugongo, hari umugabo ambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'ikoboyi. Hari n'undi mugabo wambaye ishati itukura n'ipantaro y'ikoboyi. Bisa nk'aho bari gucuruza.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye hari umugore wambaye agashati gatukura n'ijipo ya karokaro bicaye. Inyuma ye hari inyanya, hari intoryi, hari imineke, amaronji, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ahacururizwa ibintu bya gakondo bitandukanye. Hari uduseke, hari ingoma, hari ibisabo, hari imiringa, hari ibishushanyo, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Isoko ry'amagi. Abagore babiri bambaye imyenda y'ibitenge, umwe ari kubara amafaranga, undi amuhagaze i ruhande. Inyuma yabo hari abandi bantu, biragaragara nk'aho ari isoko rinini.

Umugabo wambaye umupira utukura yikoreye imineke. Iruhande rwe hari undi mugore na we wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, wikoreye igikarito. Hakurya hari umugabo wambaye akajire k'abavoronteri. Hari inzu nini igeretse.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye amashu, tungurusumu, inyanya, pavuro, karoti, sereri, shufureri n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, ibishyimbo, amashaza, ibitunguru, inyanya, karoti n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Isoko ry'ibiribwa inyanya, pavuro, inoryi, karoti, imiteja, ibitunguru hari umugore wambaye isengeri itukura bisa nkaho arumucuruzi.

Imodoka yu'mweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'mweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye. Ririmo inyanya, ibitunguru, karoti, sereri, intoryi pavuro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hari n'abantu benshi baje guhaha.

Inzu igeretse bigaragara nkaho ari iy'ubucuruzi. Hanze hari urujya n'uruza rw'abantu, hari abari kugenda n'amaguru, hari n'abari kugendana moto, hari imodoka eshatu ziparitse hanze z'umweru, ku ruhande hateye n'igiti.

Akazu karimo ibara ry'umuhondo ka emutiyene imbere harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyene, ku ruhande hari akapa ka tigo n'aka eyateri, inyuma hari inzu isize ibara ry'umutuku ryanditseho eyateri.

Akazu kari mwibara ry'umuhondo ry'emutiyeni, hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara hari umugabo wambaye ishati ya karokaro ufashe ku nebe hari ameza ariho gurude, amajire n'ingofero biri mwibara ry'umuhondo ry'emutiyeni.

Akazi kari mu ibara ry'umuhondo ka Emutiyeni, imbere hari umugabo wambaye ijiri y'umuhondo, hari undi mugabo wambaye ishati itukura n'ipantaro y'ikoboyi uri kuza, inyuma hariyo inzu igeretse y'ubucuruzi.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka Mtn, hari umukobwa wambaye ijire y'umuhondo ya Mtn ashyize akaboko kuri ako kazu, hari n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo wa Mtn, ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umukara nawe ashyize amaboko kuri ako kazu.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyene, imbere harimo umuntu hari umugabo wambaye umupira w'umukara ushyize akaboko ku kazu, hakurya hari umukobwa nawe ushyize akaboko ku kazu, bisa n'aho bari kubaha serivisi.

Umutaka uri mu ibara ry'umundo wa emitiyene hari abagabo babiri bahagaze umwe ahetsa igikapu cy'umukara mu mugongo, n'undi ahetse igikapu inyuma yabo hari icyapa cya emitiyene bisa nk'aho bari guhabwa serivisi za emitiyene.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, umugore urimo yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari icyapa cy'umuhondo cya MTN.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, yambaye baji y'umuhondo m'ijosi, afite agaseke ku ruhande hari umugore wambaye umupira w'umukara, akoreshejejemo akaboko birasa nkaho hari icyo agiye gufata harisakoshi iteretse ku meza hari mashine, hari n'undi mugore wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyeni.

Akazu kari mu ibara ry'umuhodo, ka emutiyeni. Imbere harimo umugabo ufite ikaramu mu ntoki, bisa n'aho ari kwandika, hanze hari umukobwa ahahagaze, afashe kuri ako kazu, bisa n'aho bari kumuha serivisi.

Umugabo wambaye umupira w'ibara ry'umuhondo wa mtn n'ipantaro y'ikoboyi, afite terefoni mu ntoki, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikote ry'umukara afite agaterefoni gatoya mu ntoki. Inyuma yabo haparitse imodoka.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyene, iruhande rwaho hari icyapa cyo mu muhanda, hari ikindi cyapa kiri inyuma y'akazu kiri mu ibara ry'umweru hateyemo ibiti.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe. Hari utumashini tubiri twifashisha batanga fagitire mu gihe hari ibyo umaze kugura cyangwa babitsa banabikuza ku mabanki atandukanye. Hari telefone ku meza, hari icyapa cya MTN, hari na mashine.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyene, hari umgabo wambaye ishati y'igitenge, afite terefone mu ntoki, hari umugabo wambaye ikanzu y'ubururu, ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo n'akagofero mu mutwe.

Umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi ahagaze iruhande rw'ibicuruzwa nka pavuro, afite ikarita mu ntoki, afite na telefone bisa naho ari kwishyura akoresheje telefone.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho emutiyene imbere yaho hari umugore wambaye agakore k'umukara, hanze hari abagabo babiri basa n'aho bashaka serivise, ku ruhande hari abagore babiri basa n'aho bategereje guhabwa serivise.

Umugabo wicaye yambaye umupira w'umweru, yambaye ishakoshi y'umukara mu ijosi, yambaye n'ipantaro y'ikoboyi, afite telefone mu ntoki, afite n'udukomo tubiri ku kuboko

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyeni iruhande rwaho hari umugabo wambaye ishati y'igitenge ufite telefone mu ntoki hari undi mugabo wambaye ikanzu y'ubururu wambaye ingofero y'umweru mu mutwe uhetse igikapu m'umugongo.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, imbere harimo umukobwa wambaye agakote k'umukara, hanze hari abagabo batatu begamiye kuri ako kazu basa nkaho bari guhabwa serivisi, ku ruhande rwabo hari abagore babiri na bo basa nkaho bategereje serivisi.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, imbere harimo umugore wambaye umupira utukura. Hanze hahagaze abagabo batatu, bisa nkaho bakeneye serivisi.

Akazu k'umuhondo kari mtn umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu umugore wambaye cositime n'umugore wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'ubururu basa nkaho bari guhabwa serivisi nundi urimo imbere.

Akazu k'umuhondo kanditseho emutiyeni umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi ahagaze kuri kontwari. Mo imbere harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo, umugabo wambaye ishati y'umweru n'undi mugore wambaye umupira w'umuhondo. Bameze nkaho batanga serivise za emutiyeni.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyene ingofero y'ubururu mumutwe, yegeranye n'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, yambaye isaha ku kuboko afite telefone mu ntoki afite n'amverope mu ntoki.

Abobwa babiri bambaye imipira y'imihondo ya emutiyene, bahagaze mu kazu ka emutiyene muri ako kazu hari imipira y'imihondo ya emutiyene n'amajiri y'imihondo ya emutiyene, bisa nk'aho hari igikorwa bari hukora.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatatu akanyenyeri kode zeru zeru zeru zeru umunani urwego.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyeni, imbere harimo umugore ufite imisatsi miremire. Afite ikaramu mu ntoki n'ikayi, bimeze nk'aho ari ibyo kwandika. Iruhande rwe hari umugore wambaye umupira utukura.

Umugore n'umugabo bambaye imyenda y'umuhondo ya MTN. Umugabo afite icyapa cya MTN kode mu ntoki, inyuma ye hari umugabo ufite kamera mu ntoki. Hari umugore wambaye itaburiya y'umweru, bisa nk'aho hari icyo afata ku meza.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka mtn imbere hanyuma umugore wambaye agapira k'icyatsi, umugabo wambaye gashati k'umweru, n'undi wambaye ishati y'umutuku, inyuma hari umukobwa wambaye agapira k'ubururu, n'akajipo k'umukara usa nkaho bamuha serivisi, umugore wambaye agapira k'umukara n'umugabo wambaye ishati y'umutuku usa nkaho abarimo imbere babaha serivisi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi afite terefone mu ntoki yambaye ingofero iriho ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ikote ry'umukara afite agaterefone gato k'umukara, inyuma yabo hapatitse imodoka y'umukara.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imihondo ya MTN, iruhande rwabo hari imashini, ku ruhande hari umugabo wambaye umupira w'umweru uhetse igikapu mu mugongo, bisa nk'aho bari kumuha serivisi.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku kanditseho eyateri, ku ruhande hari umugore wambaye isengeri y'umuhondo wicaye, ku ruhande hari bisi iparitse isa nkaho itwara abagenzi.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umuhondo cya MTN, umugabo wambaye umupira w'umuhondo wa MTN n'ipantaro y'umukara, umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umutuku, ku ruhande hari radiyo eshatu hari umusekirite uzegamiye.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ufite terefone mu ntoki. Iruhande rwe hari umugore wambaye ibitenge. Hari icyapa cya Emutiyeni cya kode. Hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi wicye ku gatebe k'umuhondo, n'umugore uhetse umwana umutwikirije agashuka k'umweru.

Icyapa cy'ummuhondo cyanditseho emutiyeni. Abagabo bane bambaye imipira ye emutiyeni. Umwe yambaye ingofero mu mutwe y'umuhondo, iruhande rwe harimo uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi bisa nkaho bahagaze ku kazu ka emutiyeni nka bakeneye serivise.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, baje y'umuhondo mu ijosi ufite agapaniye mu ntoki hari umugore wambaye umupira w'umukara ushyizemo akaboko nkaho hari icyo yakira. Hari imashini, ishakoshi n'umugore wambaye umupira w'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ufite telefone mu ntoki, afite camera ku rutugu, yambaye n'amarinete mu mutwe. Irunde rwe hari umugore wambaye ibitenge, baji y'umuhondo mw'ijosi. Inyuma yabo haparitse imodoka.

Abagabo batatu bahagaze ku kazu ka emutiyeni, k'umuhondo, umwe yambaye umupira utukura, n'ipantaro y'umukara, biragaragara ko baje gusaba serivisi zo kohereza amafaranga cyangwa kuyabikuza.

Icyapa cy'umuhondo cya MTN cyanditseho ishura na momo peye ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe kode zeru zeru gatanu gatanu cumi na gatatu urwego.

Icyapa kinini cya MTN ku ruhande hahagaze umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantalo y'umukara, ku rundi ruhande hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantalo y'umutuku, hari radiyo eshatu hari umusekirite uzegamiye.

Umugore wambaye umupira urimo ibara ry'ubururu, yambaye ipantaro y'ubururu. Ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru, bisa nkaho basuhuje umusaza wegamiye kukazu ka eyeteli.

Ahatangirwa serivise za emutiyene, umugore urimo yambaye ikote ry'umukara, hari umugore uhagaze wambaye ikanzu ya shokora, undi mugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara hari undi wicaye wambaye umupira w'umutuku.

Akazu kari mw'ibara ry'umuhondo ka MTN inyuma hari umugabo wambaye agapira k'umukara ushyize akaboko kuri ako kazu ku ruhande rwe hari umukobwa nawe ushyize akaboko kuri ako kazu bisa nkaho bakeneye serivise.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyene, imbere harimo umugabo wambaye ijire y'umuhondo hari umugabo wambaye ishati y'igitenge, ufite telefone mu ntoki, yambaye ingofero y'umukara mu mutwe, bisa nk'aho bamuhereza serivise.

Akazu karimo ibara ry'umuhondo ka emutiyeni, hari umugore ukegamiye wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, ashyize akaboko imbere nkaho hari icyo bamuhereza. Iruhandde rwabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaroy'umweru.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imyeru n'abagore babiri bambaye imipira y'imyeru, hari abagabo babiri bicaye bambaye imipira y'imuhondo, bisa nk'aho baha serivisi umugore wambaye ikanzu y'umukara, ufite isakoshi ku kuboko, hari n'undi mugore wambaye agashati karimo amabara y'umutuku n'undi mugabo wambaye ikote ry'umweru n'ipantaro y'umukara.

Akazu kari mw'ibara ry'umuhondo ka MTN umugore urimo yambaye ikanzu y'umukara, hari umugabo uhagaze hanze wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara ushyize akaboko kuri ako kazu, birasa naho ari kuvugisha urimo imbere.

Icyapa kiri ku ibara ry'umutuku gishushanyijeho abakobwa bafite terefone mu ntoki. Ku ruhande hari akabati kari mu ibara ry'umutuku imbere harimo terefone, handitseho eyateri mani bisa nk'ahatangirwa serivise za eyateri.

Umugabo wambaye umupira urimo ibara ry'umuhondo rya Mtn wicaye ku igare inyuma ye hari umutaka wa Mtn, hari umugore ijire y'umuhondo ya Mtn, hari umugore wambaye umupira w'icyatsi n'umugore wambaye umupira utukura.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, ka emutiyene. Umugore urimo yambaye ikote, umugabo uri hanze yambaye ikote n'ipantaro, ashyize igikapu ku rutugu. Hirya hari undi mugabo, bisa nk'aho avugisha umugore.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara n'ingofero y'umuhondo yegeranye n'umugore wambaye ishati y'uburu, yambaye baji itukura mwijosi, afite terefone mwijosi.

Umumotari wicaye kuri moto yambaye kasike mu mutwe. Hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, afite terefone mu ntoki nk'aho hari ibyo amwereka. Ku rundi ruhande na ho, hari umumotari wicaye kuri moto n'umugabo wambeye ikabutura y'umukara asa nk'aho hari ibyo amwereka.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho ishyura na momopeyi ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego. Kode zero kane gatatu gatandatu gatatu ikenda urwego.

Akazu k'umuhondo ka MTN imbere hari umukobwa wambaye agapira k'umukara inyuma hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara ashyize akaboko kuri ako kazu bisa nkaho avugisha urimo imbere mu kazu.

Ahatangirwa serivisi za eyateri mani, abagabo batatu bahagaze imbere, umugore umwe wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara. Abandi bantu bicaye bisa naho bategereje guhabwa serivisi.

Abagore babiri bambaye imipira y'imihondo, hari n'umugore wambaye umupira w'ubururu. Inyuma yaho hari abantu benshi, hari n'imitaka ya pirimusi, bisa nkaho ari igikorwa cyahabereye.

Abagab babiri bambaye imipira ya emutiyeni basuhuzanyije mu biganza, kuruhande hari umutaka wa emutiyeni hari n'abantu benshi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cya emutiyeni. Cyanditseho momo peyi. Ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyeyeri gatatu, akanyenyeri urwego.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyeni, umugabo urimo wambaye umupira w'umutuku, umukobwa uhagaze wambaye umupira w'umweru uhetse igikapu akaboko ke gakoze kuri ako kazu.

Umugore wambaye ijire n'ipantalo y'umukara iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantalo y'umukara hari umugabo wicaye kuri moto wambaye kasike bisa nkaho ari kumuhereza serivise.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, wa emutiyene, ipantaro y'ikoboyi, afite mikoro mu ntoki. Iruhande rwe hari icyapa cya emutiyeni kinini. Inyuma ye hari abandi bambaye nka we, bisa nkaho habereye igikorwa cya emutiyeni.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyene. Ku ruhande hari umukobwa ushyizeho akaboko wambaye ijire y 'umuhondo. Ku rundi ruhande hari umugabo ushyizeho akaboko wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyene, ipantalo y'ikoboyi.

Umutaka w'umuhondo wa emutiyeni n'akazu kawo umukobwa urimo imbere wambaye itaburiya y'umuhondo hari n'amaterefone bisa nkaho bayagurisha.

Umugabo ufite telefone mu ntoki yambaye umupira urimo ibara ry'umutuku, umuhondo n'umukara. Iruhande rwe hari umugabo wambaye amarinete ufite agatelefone mu ntoki yambaye umupira w'umuhondo wanditseho emutiyeni.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ikoboyi ku ruhande rwe hari mashini hari n'abantu benshi, hari icyapa cya kode mobile mone.

Umugabo wambaye ijire y'umuhondo ya emutiyene afite terefone mu ntoki iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira utukura ufite terefone mu ntoki. Inyuma yabo hari umutaka munini wa emutiyene.

Umugabo wambaye umupira utukura wanditseho coca cola. Ahagazemo imbere mu kazu gato gatukura. Hanze hari umugabo wambaye ishati irimo ibara ry'umukara afite lunette mu ntoki, asa n'aho ari kuvugisha urimo imbere.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, ku ruhande hari umugore ufite isakoshi ku kuboko wambaye ijipo y'igitenge afite na telefone mu ntoki.

Abagabo babiri bari mu kazu; umwe irunde rwe hari imashini ya kompiyuta, icupa ry'amazi rya jibu, icyapa kiriho irembo, rra, mobi cashi na ekwiti.

Akazu karimo ibara ry'umuhondo ka emutiyeni hanze hari abagabo babiri bambaye imipira y'imihondo imbere harimo abantu benshi birasa nkaho haberewe igikorwa cya emutiyeni.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyene, karimo umugabo wambaye umupira wa shokora n'umweru, iruhande rwe hari ikayi n'ikaramu bisa nk'aho ari gutanga serivise.

Akazu k'umuhondo ka emutiyeni umusore urimo yambaye agapira karimo ibara rya shokora n'umweru afite ikaramu mu ntoki umukobwa umuri iruhande yambaye agakanzu karimo amabara y'umweru bisa nkaho amuha serivise.

Umugabo wambaye ya karokaro n'ijire y'umuhondo ya emutiyene wicaye, arahereza terefone umugabo wambaye ishati ya karokaro nipantaro y'umukara. Hari undi mugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara, n'ingofero y'umutuku mumutwe.

Abagabo bane bambaye imipira y'umuhondo ya emutiyene, umwe yambaye ipantaro y'umukara, undi iy'ikoboyi, n'abandi babiri iz'umukara. Hari umugore uri gutambuka, afite amvilope ebyiri mu ntoki, n'isakoshi ku rutugu. Hari n'icyapa cya emutiyene.

Ameza ateretseho icyapa cy'umuhondo emutiyeni kode iruhande rwaho hatertse telefone inyuma yaho hari ibicuruzwa nk'imigozi ya sharijeri, hedifone, kuteri n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira irimo ibara ry'umweru ibara rya shokora imbere ye hateretse ikayi afite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku ruhande hateretse telefone mbere ye hari umukobwa bisa nk'aho ari kumuha serivise.

Umutaka munini uri m'ibara ritukura wa eyateri imbere hari abagabo benshi bambaye imipira itukura hari ameza hari n'abantu benshi bisa naho habereye igikorwa cya eyateri kuru ruhande haparitse imodoka.

Umugore wicaye wambaye umupira w'umweru wanditseho emutiyeni. Iruhande rwe hari ameza hari n'abantu benshi bigaragara nkaho hari icyo ari kubafasha.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ku ruhande hari imashini za kompiyuta, afite igiseke mu ntoki, undi mugabo akojejemo akaboko nk'aho hari icyo yakira, umugore uri ku ruhande yambaye umupira w'umuhondo wanditseho MTN.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyeni. Imbere harimo umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru. Iruhande hari abana bahahagaze batoya.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka Mtn mo imbere harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, umugore ufite imisatsi miremire, hari umugabo ukegamiye wambaye ikote ry'umukara.

Abakobwa batatu bambaye imipira y'imihondo ya MTN bahagaze muri etajeri ahari icyapa cya MTN , Umukobwa wambaye ipantaro ya shokora agapira karimo ibara ry'umukara asa nkaho abaka serivise.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyeni yambaye ipantaro y'umukara n'ingofero y'umuhondo mu mutwe, afite icyapa cya emutiyeni kode mu ntoki na telefone, undi mugore wambaye ikote ry'umweru afite telefone mu ntoki iruhande rwabo hari firigo irimo ibinyobwa.

Ni byiza gukoresha ikirango kiranga ibyo ukora kiriya ubona kiri mu mabara y'umutuku, umweru hariho inzoga iri kubirira mu kirahuri n'indi iri mu icupa. Munsi yaho bisa n'aho hari iduka rcuruza imyenda harimo imipira, inkweto amapantaro ndetse n'ibindi, nawe rero wabyikorera ku giti cyawe.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru hari utumashini tubiri ku ruhande, hari telefone, hari icyapa cya emutiyeni hari n'imashini ya kompiyuta.

Abagabo babiri n'umugore umwe, umugore afite amvirope mu ntoki bahagaze iruhande rw'akazu k'umugondo ka emutiyene, mu imbere harimo umuntu muri ako kazu bisa nkaho bari kwaka serivise.

K'umuhondo ka MTN umugabo wambaye umupira w'umweru, uwambaye umupira w'umweru n'undi wambaye ishati ya karokaro. Umugore wicaye wambaye umupira w'umweru arasa nk'aho ari guha serivise uwambaye ishati ya karokaro

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, imbere harimo umugore ufite imisatsi miremire. Afite ikayi n'ikaramu ari kwandika, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira utukura.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyene hari umukobwa wambaye umupira utukura n'ijipo y'umukara, hari undi uhahagaze wambaye ishati itukura n'ikabautura y'umukara, hari umugabo uhetse igikapu ku nda cy'umukara, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umihondo, iruhande rwabo hari umugore n'umugabo basa nk'aho bari kubaha serivisi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi, ku ruhande hari icyapa kinini cya emutiyene, hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, hari n'amaradiyo, bisa nk'aho habereye igikorwa cya emutiyene.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho emutiyene, hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agapira karimo uburonko bw'umukara, umeze nk'ukeneye serivise muri ako kazu.

Ni icyapa kinini cy'umuhondo cyanditseho ayoba emutiyene, iruhande hari abasore batatu bambaye imipira y'imihondo, birasa nk'aho haberewe igikorwa cya emutiyene.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho emutiyeni, imbere harimo umusore uhahagaze iruhande rwe harambitse ikayi n'ikaramu, ku ruhande hirya hateye urutoki n'inzu ifite amabati atukura.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantalo y'ikoboyi afite igare mu ntoki risize ibara ry'umuhondo, hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipatantalo y'umukara yambaye isaha ku kuboko afite telefone mu ntoki, iruhande rwabo hari icyapa kini cya MTN Code.

Akazu k'umuhondo kanditseho emutiyeni mo imbere harimo umugore wambaye agapira k'icyatsi n'isaha ku kuboko afite ikaramu mu ntoki nkaho ari kwandika, hari undi hanze wambaye umupira w'umutuku umeza nkaho ahabwa serivise.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo yambaye isaha ku kuboko afite urupapuro mu ntoki. Hari umugabo wambaye umupira w'umukara, yambaye isaha ku kuboko afite na telefone mu ntoki. Iruhande rwabo hari icyapa cya emutiyeni cya kode. Iruhande rwe hakaba umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umutuku.

Abagabo babiri, umwe bambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi n'undi wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umweru, bahagaze ku ruhande nk'ababyina. Ku ruhande hari umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro ya karokaro. Ateze agatambaro mu mutwe, hari icyapa cya MTN, basa nkaho bari kugurisha.

Abagabo babiri, bahagaze mu mutaka wa MTN. Ku ruhande hari icyapa cya MTN Mobayilo Mani. N'amazu y'ubucuruzi.

Abagabo batatu bambaye amajire y'umuhondo ya MTN, hari umutaka wa MTN, hari umugabo wambaye umupira w'umweru bisa nkaho bamuha serivise, hari imodoka y'umweru iri gutambuka.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, yambaye agasakoshi k'umukara mu ijosi, afite telefone mu ntoki, yambaye udukomo tubiri ku kuboko, iruhande rwe hari n'undi mugabo uhicaye.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka Emutiyene, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi, imbere harimo umugore wambaye umupira w'umweru, n'undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo uhagaze iruhande rw'imodoka eshatu ziparitse.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, imbere harimo umukobwa wambaye agakote k'umukara, hanze hari abagabo batatu bakegamiyeho, bisa nkaho bagiye guhabwa serivisi, ku ruhande rwabo hari abagore babiri basa na bo nkaho bategereje guhabwa serivisi.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, umusore wambaye agakabutura k'ubururu afite telefone mu ntoki, haparitse imodoka nyinshi bigaragara nkaho ari kuri sitasiyo ya esanse.

Abagabo babiri bambaye amakote ya kositime bahagaze ku meza y'umweru. Uruhande rwabo hari umugabo wicaye wambaye agapira k'umukara na baji mu ijosi. Hari ibiterefone bibiri binini byanditseho emutiyene ku ruhande hari umugabo wambaye ikote rya kositime n'umugore nawe wambaye mu ijosi n'ikote ry'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi yanditseho vuba vuba yambaye ipantaro y'ikoboyi iruhande rwe haparitse moto iriho aka bogisi kicyatsi kanditseho vuba vuba , haribyo ari kurebamo.

Moto iriho akabogisi gatukuye inyuma, hari umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro y'ikoboyi afite amverope mu ntoki, hakurya hateye ibiti, imbere ye hari igipangu.

Umugore wambaye ishati y'icyatsi, inyuma handitse "vuba vuba", yambaye agapira k'umweru mo imbere, ateruye amverope arayihereza undi mugore irimo amavuta, pavulo na karoti n'ibitunguru, birasa nk'aho ari byo yari amuzaniye.

Umugabo uri mu modoka, wambaye umupira w'ubururu, ingofero y'ubururu mu mutwe, afite akabokisi mu ntoki, agafatishije ibiganza byombi.

Isoko ryo kuri enterineti, hari mashini igaragaza ibicuruzwa, hari telefoni igaragaza inkweto, imyenda n'ibindi bitandukanye bicururizwa kuri enterineti.

Inzu igeretse irasa n'aho ari iy'ubucuruzi, hanze haparitse moto ebyiri n'imodoka, hateye igiti cy'umukindo hari icyapa kinini cyanditseho ihaha.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantalo y'umutuku n'undi wambaye ishati y'icyatsi n'ipantalo y'umukara, bisa nkaho hari icyo abika mu kabogisi inyuma kuri moto moto y'umukara.

Umugabo wambaye kasike, wampaye umupira w'umukara, ufite agakarito k'umweru mu ntoki, uri kubika muri muri mu kibokisi.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye amarinete, azamuye akaboko kamwe, gafashe ku kananwa. Akandi kaboko gafite telefone mu ntoki, ari guseka.

Urutonde rw'amafoto y'abakobwa biyamamariza kuzajya mu marushanwa y'ubwiza .

Umusore wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara afite anvelope, ahagaze iruhande rwa moto ifite aka box gatukura inyuma.

Urutonde rw'ibicururizwa kuri interinete, imyenda nk'amakanzu, imipira, inkweto, ekuteri, telefone n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wambaye ijire y'ubururu ipantaro y'ikoboyi, yambaye kasike mu mutwe, afite anvelope mu ntoki, ari ku kabogisi kanditseho kasha k'umuhondo.

Umumotari wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro ya shokola, ahetse umugenzi wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi bambaye kasike z'icyatsi mu mutwe, inyuma yabo hari undi mumotari uhetse umugenzi, wambaye nawe z'icyatsi mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara afite akagare mu ntoki ari kugaparika. Ahetse akabogisi mu mugongo kanditseho Vuba vuba.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi yanditseho vuba vuba ashyize akaboko kuka bogisi k'icyatsi kari kuri moto kanditseho vuba vuba.

Inzu igeretse gatau iri mu ibara ry'umuhondo, amamodoka atatu afite ibara ry'umuhondo handitseho iposita, abamotari benshi bambaye imipira y'umuhondo inyuma kuri moto hariho utubogisi tw'umuhondo n'andi mamodoka atatu afite ibara ry'umuhondo.

Inzu igeretse igaragara nki y'ubucuruzi igiye ifite nimero mirongo itatu na gatanu itatu gatandatu itatu umunani, iruhande rwazo haparitse imodoka z'ibikamyo eshanu zanditseho twiga.

Abamotari batatu bampaye amajiri y'umutuku, kasike my mutwe; umwe yambaye ipantaro y'umukara, babiri bambaye amapantaro y'ikoboyi. Kuri moto hariho ibibokisi biri mu ibara ry'umutuku.

Amazu y'ubucuruzi ari ku ibara ry'umweru ku ruhande haparitse imodoka y'ubururu, ruguru hari ibipupe byambara imyenda icuruzwa.

Utubogisi twinshi tugiye turimo amaseri y'ibitoki, hari abantu bambaye amataburiya y'umukara, bisa nk'aho hari ibyo bari gutunganya muri ibyo bitoki.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi ufite kasike yateretse ku itako. Ari kuri moto iriho akabogisi kari mu ibara ry'icyatsi.

Abamotari batanu. Babiri bari kuri moto z'icyatsi batatu bari kuri moto z'umutuku, bambaye kasike mu mutwe, amaboko yabo afashe imbere ku mahembe. Bisa nk'aho bagiye gutwara ibintu.

Abagabo babiri bambaye amashati y'icyatsi bahagaze kuri moto ifite icyapa cya vubavuba bambaye amakasike mu mitwe undi ipantaro y'ikoboyi.

Inzu igeretse isize irange ry'umweru hasi haparitse imodoka y'umutuku iruhande hari igiti kihateye hari n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Ku ishansiye aho bari kubaka umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umukara n'ingofero y'umukara, ahagaze ku mbaho bisa n'aho ari kubaka.

Isoko ry'imyenda igiye itandukanye, umugore wambaye umupira w'umweru bisa nkaho ari gucuruza, hari n'undi wambaye ikoti ry'umukara nawe bigaragara nkaho ari umucuruzi, ku ruhande hari undi ufite imyenda mu ntoki yasa nkaho ari umukiriya.

Icyapa cyanditseho sawa kiri mu ibara ry'icyatsi, kuruhande hari ameza y'umweru, umugabo wegamiye igikuta, n'inzu z'ubucuruzi.

Aho bacururiza indabo hari aketajeri kagiye karimo indabo zitandukanye, hari iziri mu mavaze y'umukara ndende nini hari iziri mu mavase y'umweru ziringaniye, hari n'izindi ntoya.

Aho bacuruza ibinyobwa bitandukanye, umugore wambaye umupira utukura uri mo imbere muri kontwari, ku ruhande hari abandi bantu basa n'aho bategereje serivise.

Isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye, hari urujya n'uruza ry'abantu mu isoko bafite udupaniye bariguhahiramo, bambaye n'udupfukamunwa.

Isoko ryi'bicuruzwa bitandukanye, umugore wambaye agapira gatukura n'ijipo y'umukara, afite isakoshi ku rutugu. Hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi. Hari abantu benshi bagiye bakikije buri meza bisa naho bari guhaha.

Bisa nkaho habereye igikorwa cyo kwamamaza RSSB ejo heza habaturage. Hari abantu benshi bahicaye, bahakikije biragaragara nkaho ari ku kigo cy'amashuri.

Umuhanda uri kungedamo imodoka z'umweru hari amatara abonesha mu muhanda iyo bwije, hari ibiti, hari inzu ndende ya etaje, ku ruhande hari akazu k'abagenzi kari mu ibara ry'umuhondo.

Birasa naho ari Kwa muganga umugabo wambaye itaburiya y'umweru afite ikaramu muntoki nigitabo iruhande rwe, harundi wambaye itaburiya y'umweru ufite igitabo Ari gusoma, kuruhande hari umu mama uhicaye afite mituweri muntoki urupapuro muntoki bisa nkaho ategereje igisubizo bya muganga.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, ateruye icyapa cy'umweru cyanditseho arasesibi, hariyo amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu, handitseho umucyo Wiriyamu, hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, afite na mikoro mu ntoki inyuma yaho hateye umukindo, hariho n'amatete baparikamo imodoka.

Ahatangirwa serivise za rssb, abantu bane bambaye imipira y'ubururu. Imbere yabo hari mashini, hari undi muntu wicaye imbere. Bari kureba muri mashini, bisa nkaho bari kumuha serivise.

Aho bahahira ibicuruzwa bitandukanye. Hari abagabo babiri bisa nkaho baje guhaha, ku runde hari undi mugabo wambaye umupira w'umukara, bisa nkaho haribyo ari kubasobanurira, hari utubati duteretsemo ibicuruzwa bitandukanye.

Ahacururizwa ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo ji ya milinda, ji ya malite, ji ya embe, ji ya apo, ji y'inyange hamwe n'amata n'umugore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru uri gutambuka.

Umukobwa wambaye agakoti k'ikoboyi n'agapira k'umweru, afite agapaniye bahahiramo ari guhaha...

Ahacururizwa ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye, umugore wambaye umupira w'ubururu afite akabido k'umweru mu ntoki, ariko cyane umugabo wambaye umupira w'ubururu afite amverope mu ntoki, hari igihaza ku meza n'amavuta, hari n'umuntu ubahagaze iruhande bisa n'aho bamuha serivise.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru n'ijipo y'umukara ateruye icupa ry'amavuta. Iruhande rwe hari umukobwa wambaye ishati ya karokaro, ahagaze mu iduka ricuruza ibiribwa.

Ahacuruzwa ibinyobwa bisembuye, hanze hari ameza ariho udutebe tuzengurutse, hari icyapa cyanditseho simba gishushu, hateye igiti imbere harimo ibicuruzwa, hari n'indabo nyinshi mu mavaze.

Aho bacuruza ibiribwa bijyanye n'imboga hari umukobwa uhahagazi ufite agakapu mu ntoki harimo amashu, koroshete, ibibiringanya n'ibindi bigiye bitandukanye.